Ifunguro ryateguwe neza cyane, ifi yogeje aho iherekejwe n'igitunguru ndetse na karoti, ifi ni kimwe mu biribwa byiza cyane bivaga mu mazi kandi bikaba bigiriraga akamaro kenshi umubiri wacu cyane cyane ko bavuga ko rifasha abana bakiri batoya kugira ubwenge.

Inzu nziza kandi nini cyane y'ibyo kunywa bihenze, aho abakiriya baza bagana baje gushaka ibyo kunywa, bakabona ibyicaro byiza bicara bisanzuye, kandi bakabasha kubona ibyo kunywa mu maso yabo bakeneye.

Inzu nini cyane kandi nziza, yabare irimo ibikoresho byiza bitandukanye, intebe ameza, amatara yaka neza, yo mu bwoko butandukanye, ibinyobwa bihenze cyane, by'amoko atandukanye, aho umukiriya abasha kugera akitabwaho, kandi akabasha guhabwa buri kimwe cyose yifuza.

Inzu nziza ya bare icururizwamo ibinyobwa by'ubwoko bwinshi kandi butandukanye, ubwoko bw'inzoga zihenda cyane, aho abifite agatubutse, babasha kuza kwicara bakabasha kuhasangirira.

Inzu icuruza ibinyobwa bitandukanye kandi bihenda cyane, byitwa amarikeli. Aho bibitswe mu buryo bwo kubikonjesha mu cyuma cyitwa firigo. Kugira bikomeze kugira uburambe bwabyo n'ubusugire bwabyo kandi bikaba bituruka mu bihugu bigiye bitandukanye.

Ahantu heza kandi ho kuruhukira hafite ibyangombwa bihagije byo gufasha umuntu wese wahagana, akahabonera icyo kurya n'icyo kunywa, kandi akabasha kuruhuka neza mu buryo bwiza.

Inzu ya bale icururizwagamo ibiribwa n'ibinyobwa, aho abantu batandukanye cane cane nkabakozi bagana, kugira ngo baze kuharuhukira bakahafatira ico kunywa n'ico kujya.

Inyubako icuruza ibinyobwa，aho yo ifite ikibuga kinini cyane kandi kirambuye， ahari ameza menshi n'intebe nyinshi，kugira ngo abakiriya baje bahagana， buri wese abashe kwicara yisanzuye， maze abashe gufata icyo kunywa ashaka.

Ifunguro ry'igitoki gitetswe neza cane aho catekanywe n'igishishwa ca co kugira ngo umuntu ukeneye kugifungura abashe kubonamo intungamubiri zose kandi zuzuye zibonekaga mu gitoki.

Inzu igurishirizwamo ibiryo bihiye, aho babishyira mu bikoresho bita amadishi, buri kidishi cyose bashyiramo ibiryo byacyo, maze ukeneye kurya akagenda yarura ibiryo yifuza, agafata ingano y'ibyo akeneye kurya.

Iduka ricuruzaga moto nziza nshasha kandi zifunitse neza aho buri wese uyikeneye abashaga kugera maze agahitamo iyo yifuje umutima gwe gushimye kandi gukunze.

Inzu y'ibicuruzwa bitandukanye, harimo udukapu two mu mugongo, cyane cyane tukaba ari udukapu twiza tuba tudoze mu bitenge ,abana cyangwa n'abandi bantu batandukanye, bakaba batwifashisha mu gushyiramo ibintu biringaniye, cyane cyane igihe bafite nk'urugendo.

Inzu nini kandi nziza yubucuruzi, aho yubatswe ahantu heza hafi y'umuhanda gwa kaburimbo, kugira ngo abayigana babashe kubona ibicuruzwa mu bujyo buboroheye.

Inzu ikoregwagamo ubucuruzi butandukanye bw'imiti zikoreshwaga mu ngo, harimo umuti gwicaga imibu, umuti gwicaga ibiheri, umuti gwicaga ibinyenzi, n'isabune yo gukoropa.

Inzu icuruza imyenda itandukanye y'imideri, aho abageni n'abandi bantu benshi batandukanye baba bakeneye gutaka aho bari bukorere amakwe bagana kugira ngo babashe kubafasha, maze babashe gukora neza ahantu bari bwakirira abashyitsi.

Uruhurirane gw'ibikoresho kandi byiza by'amoko gatandukanye, ahari kuboneka ibikoresho by'isuku, ibikoresho byo mu gikoni, imyambaro, ndetse na bimwe mu bikoresho byo gutwaramo ibintu.

Inzu icururizwamo ibikoresho bitandukanye by'amagare y'abanyonzi bakaba bahagana iyo amagare yabo yagize ibibazo bitandukanye nk'intebe, amapine n'ibindi byuma bitandukanye.

Agace karimo amazu g'ubucuruzi gacuruzaga ibintu bitandukanye, harimo amasafuriya n'ibinyampeke by'ubwoko bw'ibigori n'amasaka, kandi bacuruza n'ibirayi n'uhageze nta mafaranga afite akitabaza umu ajenti, nawe ucururiza hafi aho ngaho.

Inzu y'ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye aho imbere yayo hari gucururizwa ibitenge byiza by'amoko atandukanye. Igitenge ni umwambaro wambarwa n'abagore n'abakobwa, aho bamwe bawambara ari igitenge gusa cyangwa se bamwe bakawushonesha bakawambaramo amaribaya.

Inzu y'ubucuruzi bw'ibintu bigaragaza umuco nyarwanda harimo ibibumbano by'ingagi, n'abantu, ibiseke, imitako itandukanye ingabo, udukoko ndetse n'ibindi byinshi.

Inzu y'ibicuruzwa byiganjemo ibikoresho bikozwe mu biti, ahari: ameza, intebe, imikoropesho, n'udukoresho bakoresha bifashisha kubikamo utuntu dutandukanye. Ibikoresho byo mu rugo birimo: indobo, ameza, ndetse n'ibindi bintu byinshi bitandukanye.

Inyubako ndende cane kandi nini, ahari uruja n'uruza gw'abantu batandukanye abagore n'abagabo, amamodoka gw'ubwoko butandukanye, aho abantu baba baje gushakira imirimo zo kubabeshaho mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Inyubako nziza cyane ahari umuntu uri kuyikorera isuku, aho ari gukata uruzitiro kandi ikaba itanga n'amaserivisi atandukanye, arimo sawuna na masaje, icyo kurya n'icyo kunwa, kandi n'ukeneye kuryama na we abasha kubona icyumba cyo kuraramo.

Inzu nini cyane kandi ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, birimo gutunganya imisatsi y'abagore n'abakobwa, no gukora amadekorasiyo yo mu bukwe, mu birori bitandukanye no kwambika abageni.

Inzu y'ubucuruzi y'ibyo kurya n'ibyo kunywa by'ubwoko butandukanye birimo icyayi, amata, boyiro, ibishyimbo ndetse n'imvange. Aha hantu hifashishwa cyane cyane mu gihe cy'imbeho abantu bari gukenera agacyayi n'igihe cy'izuba abantu bari gukenera agashyushyu gakonje.

Umuntu ukanikaga amagare gashaje go mu bwoko butandukanye ndetse kamwe akagagura akongera akagakora neza, hanyuma akagagurisha abantu baje bamugana iyo bagakeneye.

Inzu ikorerwagamo ubucuruzi butandukanye, aho igice kimwe gikorerwagamo gutunganya imisatsi z'abagore, ikindi kikaba gikorerwagamo kudoda, ikindi kikaba gikorerwagamo ubucuruzi bw'ubwubatsi.

Inzu y’ibicuruzwa by’ikoranabuhanga, harimo n’ibindi bikoresha amashanyarazi, harimo: amapasi, amaketo, mudasobwa, ibisahani bya televiziyo, ndetse n’ibindi byinshi bitandukanye.

Inzu y'ibicuruzwa byiganjemo ibikoresho bya kinyarwanda, harimo: ibisabo, inkongoro, inkoni zikoreshwa n'abasore mu bukwe, imyambarire itandukanye irimo imikenyero, n'amakanzu y'abageni.

Inzu z'ubucuruzi zubatswe ahantu heza cane, aho bigaragara ko imbere yazo hari ibiti birebire byiza, kandi binini bibasha gutanga umwuka mwinshi kandi guhagije ku bantu bose bahakoreraga n'abandi bantu bose bahaganaga.

inyubako nini kandi ndende cane igizwe n'igice c'ubucuruzi n'ic'amacumbi aho abantu benshi bagana baje kuharuhukira bakahafatira amafunguro n'ibyokunywa bitandukanye

Inyubako nziza cane kandi zikikijwe n'uduti twiza, natwo dutuma hagaragara neza, kandi tukabasha no kuhatanga akuka kugira ngo buri wese uhagana, abashe guhumeka umwuka mwiza.

Inyubako nini cane ya banke aho abaturage baganaga, bagiye gushakayo serivisi z'amafaranga. Bamwe bagiye kubitsa, abandi bagiye kubikuza, ndetse hari n'abajagayo bagiye gushakayo inguzanyo zo kubafasha mu bikogwa byabo bya buri munsi.

Inyubako nziza cyane kandi ndende, yubatswe ahantu heza aho ibasha kubona amahumbezi, iyahawe n'ibiti byiza by'imikindo biyikikije, kugira ngo abahagana babashe kubona umwuka mwiza.

Inzu y'ibicuruzwa byiza kandi byinshi byo mu rugo, birimo amasafuriya, indobo amabase , nibindi byinshi kandi bikenerwaga murugo.

Icumba gicururizwagamo ibintu bitandukanye, birimo ibinyobwa bisembuye, ibidasembuye, ibiribwa birimo amagi, aho bafite umukiriya waje gusaba kimwe muri ibyo bicuruzwa bafite.

Umubyeyi waremesheje ibirago bye byiza kandi binini cyane, aho bikoreshwa byanikwaho imyaka itandukanye, amashaza, ibishyimbo, amasaka, kugira ngo bibashe kuma neza, mbere yo kubishyira mu buhunikiro.

Icyumba cy'ibikoresho byiza cyane byo mu rugo bitandukanye harimo: indobo ,nini n' intoya ,amabase n' ibiyiko ,amafurusheti ndetse n'ibirahuri byiza cyane byo kunyweramo.

Isoko ryubakiye neza, kugira ngo ribashe kurinda, ubuhehere bw'imboga, n'imbuto zicururizwagamo, zirimo shufurere, amashu, karoti, kokombore, ndetse n'indimu.

Umuntu udoda imyenda ariko akanacuruza n'ibitambaro byinshi cyane kugira ngo abakiriya bamugana baje babigura maze nabyo akomeze abibadodere bari kumuteza imbere muri byose.

Imbuto nziza z'imyembe aho bigaragara ko zeze neza cyane, kuko zitaweho mu murima none zikaba zarahishije neza, ku buryo zibasha kujyanwa ku isoko kandi zikabasha no kubona abaguzi bahagije.

Umucuruzi utaditse indyoshyanjyo， abenshi bakundaga kwita ibirungo， birimo inyanya，tungurusumu， urusenda，ndetse n'ibitunguru bya onyo，n'udufuka two kwitwazamo， ku baguzi bahagera nta kintu bafite co kwitwazamo.

Abakozi bakoraga umwuga gw'ubudozi, aho buri wese adodaga imyambaro zitandukanye zirimo amaribaya, iniforume z'abanyeshuri, amapantaro n'amashati by'abagabo, bifashishije imashini zabugenewe.

Isoko jyiganjemo abacuruzi bari gucuruza imyembe, aho zifungiye mu mifuka minini cane kugira ngo zitabasha kwangirika. Umwembe ni urubuto rwiza cane ku mubiri w'umuntu, aho ruwufasha kugira uruhu gwiza kandi rutohagiye.

Isoko ry'ibintu bitandukanye birimo ibikoresho byo mu nzu, imyambaro ,ibiribwa birimo imbuto, kokombure, ibihaza, ndetse n'amateke ,kandi rikaba ryahuriwemo n'abantu batandukanye barimo abacuruzi, ndetse n'abaje gushaka ibyo baguramo bitandukanye.

Inzu y'ibicuruzwa byiganjemo imyambaro y'abagore ndetse n'amabiju, amabiju arimo n'amoko atandukanye; amaherena, ibikomo n'utundi tuntu twinshi tujyanye n'imitako y'abagore, ibitenge na byo bikaba byambarwa n'igitsina gore mu buryo butandukanye aho bashobora kubidodesha nk'amaribaya cyangwa se bakabikenyera byonyine.

Umuntu uri kunywa ubushera akoresheje ijaga ubushera ni ikinyobwa kiboneka cyane cyane mu majyaruguru aho bagikora bifashishije amasaka, bagize amamera nuko bagakoramo icyo kinyobwa kiryoha cyane kandi abantu bakagikunda ku bwinshi.

Inzu y'ibicuruzwa bitandukanye kandi byo mu bwoko budasembuye, aho biteretse neza mu kabati kugira ngo bibashe gukurura abakiriya, bikaba birimo amaji, amabisi ndetse n'amabombo.

Isoko rinini cyane ririmo urujya n'uruza rw'abantu baje gucuruza, ndetse n'abaje kugura imboga zo mu bwoko butandukanye zirimo urusenda, beterave, seleri ndetse na kokombure.

Isoko ry'imbuto z'ubwoko butandukanye harimo wotameloni, imineke, ibinyomoro n'izindi mbuto nyinshi, ndetse n'uruja n'uruza rw'abaguzi n'abagurisha.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi batandukanye abaguzi n'abagurisha, mu isoko ryubakiwe mu buryo bwiza bwa kijyambere, n'ibicuruzwa byinshi kandi bitandukanye birimo ibikoresho by'isuku, imyambaro, amabase n'ibindi byinshi.

Isoko rinini cyane ricururizwamo ubwoko bw'imbuto n'imboga bitandukanye, aharimo imineke minini ya goromisheri, udutoya twa Kamaramasenge, indimu, amacunga, inyanya n'ibindi byinshi bitandukanye.

Inzu y'ibicuruzwa byiza kandi byinshi cyane byo mu rugo harimo: amatemusi, ibikombe, amasafuriya, indobo, amabase, n'ibindi byiza kandi byinshi cyane bifasha abantu mu rugo gukora imirimo igiye zitandukanye.

Umusaruro w'ibirayi byiza cyane bya Kinigi, aho byakuze bikaba binini bikaba biri ku isoko, kandi bikaba biri kubona abakiriya bahagije kubera ukuntu nyirabyo yabyitayeho, akabiha ibyangombwa bihagije kugira ngo bizabashe gutanga umusaruro uhagije ku isoko.

Isoko ry'ibirayi byiza bya kinigi aho biteretsemo, kugira ngo abaguzi baze babisanga babireba neza maze babashe kubigura babyishimiye. Ibirayi bya kinigi ni bimwe mu bwoko bw'ibirayi biryoha cyane kandi bikundwa n'abantu benshi, kubera ko mu maresitora cyangwa mu mahoteli babyifashisha cyane bari kubitekamo ifiriti.

Isoko ryiganjemo ibikoresho byo mu rugo, ariko cyane cyane ibyo mu gikoni, ahari ibikombe, amasahani, ibirushe ndetse n'udusekuru, basekuriragamo ibirungo.

Isoko rinini cane kandi ryubatse ku buryo bwiza bwa kijambere aho ririmo uruja n'uruza rw'abaguzi ndetse n'abagurisha n'ibicuruzwa bigiye bitandukanye birimo: imbuto, ibyokujya ndetse n'ibyo kunywa.

Umucuruzi w'inkweto nziza, zo mu bwoko bwa pantufure aho ziri mu mabara menshi kandi atandukanye, zikaba zimanitse mu kabati mu rwego rwo kuzibika neza, izi nkweto kandi zambarwa n'ibitsina byombi bitandukanye, abagore n'abagabo.

Isoko rinini cyane kandi jyubakiye neza mu bujyo bugezweho, aho abaturage bahurira bamwe baje kugurisha imyaka zabo, abandi baje kugura imyaka ndetse no kuyirangura kugira ngo basubire kuyigurisha mu bice bitandukanye batuyemo.